Abaporisi badufasha mu gucunga umutekano, ndetse bakadufasha no mu gutuma umutekano w'ibintu n'abantu ugenda neza. Aba baporisi ni ab'igiporisi k'igihugu bita u Rwanda.

Umutekano w'Igihugu cyacu urindwaga n'abasirikare. Aba basirikare babiri barindaga Igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo gikomeze kugira ubusugire, kandi abaturage bakore mu mucyo no mu bwisanzure. Bari kuganira ku bintu by'ingenzi byateza imbere umuco ndetse n'umutekano.

Umuyobozi ari gushimira umuntu kubera ibikorwa byiza by'indashyikirwa yakoze, ari kumuha igihembo, akamukora no mu biganza amutera umwete n'ishyaka ryo gukora ibirenzeho.

Umutekano w'igihugu uririndwa n'abasirikare bacu. Abasirikare b'igihugu cyacu cy'u Rwanda barinda umutekano bityo bigatuma nta bantu bavogera ubusugire bw'igihugu cyacu.

Umwe mu bantu bakuriye urwego rw'imfungwa n'abagororwa baturindiraga amagereza ndetse no mu bigo ngororamuco. Idarapo ry'igihugu cyacu cy'urwanda ni bimwe biri muri iyi foto.

Abaturage bari mu nteko, umuyobozi ari kubabwira amagambo ari no kubaha amabwiriza ndetse bakajya n'inama y'ukuntu bakomeza kuyiteza imbere, ndetse bagakemura n'ibibazo biri hagati muri bo.

Isekuru umuntu afashe ndetse n'umusekuzo, ari gusekura ibintu bitandukanye, ashobora kuba ari gukora umuti cyangwa se ibindi bintu ari gusekura kugira ngo abikoreshe byatunganye.

Abasore beza bagiye gusaba umugeni bambaye imikenyero myiza. Iyo ugiye gusaba umugeni ugendaga wambaye imikenyero ufashe n'agakoni kugirango ube uberewe, wambaye n'inkweto zifunguye, cyane cyane mu bukwe bwa kinyarwanda.

Umuco wacu w'abanyarwanda wa kera, abantu bogoshaga amasunzu, bakitega urugori cyane cyane abagore ba kera, ndetse bakambara n'urunigi, bityo bigatuma baberwa cyane kurushaho.

Ishoka kimwe mu bikoresho abantu bakoresha bari gutema ibiti, abenshi bayita amazina atandukanye, hari abayita indyakwi, indyabiti ndetse n'incombo. Iyo u iyi shoka uyikoresheje ukora imirimo yawe yo gutema ibiti, kwasa, cyangwa se gushaka inkwi neza.

Intore zibyina imbyino gakondo zigiye zitandukanye, zino ntore zishimisha abantu, ba mukerarugendo baza kuzireba zikababyinira neza kandi mu muco nyarwanda.

Ikibuga kirambuyemo igikoresho bita ikirago. Kino kirago kirabohwa kigakoreshwa bari kwanika imyaka, kucyicaraho ndetse n'indi mirimo itandukanye.

Ahantu harambitse ibicuma abantu banyweragamo umusururu, urwagwa ndetse n'amarwa, n'ibindi binyobwa bitandukanye abantu banywa babishyiramo hano.

Ubutaka buteretseho igikoresho gakondo bita ingoma, abantu bavuza iyo bari guhamiriza, ingoma ni umuco nyarwanda, ni igikoresho cyubahwa cyane.

Mu muco nyarwanda habamo kuboha. Abantu bari kuboha ibiseke ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'uko byahoze na mbere mu muco w'Abanyarwanda. Bicaye ku kirago ndetse hariho n'amacumu ari mu kintu bayaboheye.

Abantu ba kera mu muco nyarwanda, hano hagaragaramo umwami ndetse n'abandi bantu n'umwamikazi arimo ndetse n'abiru ndetse na rubanda rugari.

Mu gitari ahantu bagika imizinga, noneho imizinga inzuki zikaza zikajyamo, zamara kugeramo zigakora ubuki ndetse n'ibinyagu abantu bakoresha buji. Ibiti ndetse n'ahandi hantu heza nka hano ni ho bashyira imizinga.

Icyuma bakoresha bari gutera umuti. Gutera umuti batera umuti ibihingwa kugira ngo babirinde ibibyonyi bigiye bitandukanye, bigatuma ibihingwa bikura neza cyane.

Akuho ni kamwe mu bikoresho by'umuco wacu gakondo abantu bakoresha bari kudaha cyangwa se bakagakoresha bari kunywa umusururu cyangwa se amarwa n'ibindi bintu bitandukanye by'ibinyobwa.

Indemberi ni kimwe mu bikoresho gakondo cyangwa se umuvure abantu bakoresha bari gukama ibitoki. Uyu muvure urategerwa kugira ngo utaza kugwa. Mu muco wacu iyo bashyizemo ibitoki babikamiramo tukabona urwagwa n'umutobe.

Umutwe w'umugozi bacomeka muri pulize ukazana umuriro, iyo uwucometsemo neza uhita ubona umuriro ahantu ushatse kuwurahura, ariko iyo wapfuye nta muriro ushobora kubona. Bino bikoresho babyita ibikoresho by'amashanyarazi.

Ubutaka buhinzwemo imboga buri hafi y'aho abana bigira amasomo atandukanye ,ndetse hafi y'aho hariho n'ibiti bikikije ano mashuri, ndetse n'ikigega kijyamo amazi.

Ahantu bari kubaka inyubako nziza kandi y'amayetaje. Ino nyubako ikoreramo ibintu bitandukanye, ishobora kuba ibiro by'akarere cyangwa ikaba isoko ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ariko hano hagaragara nk'ahantu hazakorera ibiro by'akarere kitwa Burera

Ahantu hari ubutaka bwubatsemo ibiro by'akagari ka Rugeshi, ibi biro ni ibiro by'akagari aho umuyobozi w'akagari aba ari n'abaturage bashobora kumusanga akabafasha serivisi z'ibanze, ndetse hagomba kuba hariho n'idaraporo ry'igihugu cyacu.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri benshi kandi b'abakobwa kino kigo gituma abana biga amasomo agiye atandukanye, bigatuma barushaho kumenya ibintu byinshi bizabagirira akamaro ejo habo hazaza kwiga ni byiza cyane.

Umuhanda mwiza abantu ndetse n'ibintu n'amamodoka anyuramo apakiye ibihingwa ndetse n'ibindi bintu byo gukoresha, umuhanda woroshya imigenderanire ndetse n'imihahiranire.

Kubaka ni byiza inyubako nziza cyane bari kuzamura, iyi nyubako ishobora kuzakoreshwa ahantu hatandukanye. Bari kubanza bakora bubakisha ibyuma kugira ngo izagere hejuru ikomeye cyane babone kwiyizamura imeze neza nta kibazo ku buryo mu minsi ndetse no mu myaka izaza izaba igikomeye.

Inyubako nziza abantu babamo. Zino nyubako ziba ahantu cyane cyane nko mu mudugudu w'ikitegererezo. Umuhanda mwiza unyuramo imodoka zije kubasura cg se ziri gutembera muri uyu mudugudu mwiza w'ikitegererezo.

Ubutaka bwubatseho inzu zigiye zitandukanye. Zino nzu Leta izikoreshaga iri gukora imirimo nk'iyo kubikamo ibintu mu biro byayo, cyangwa se abantu bakahakoresha nk'ahantu ho gusengera, cyangwa se h'amashuri ndetse n'ahandi, n'ibindi bintu bitandukanye.

Ahantu abanyeshuri bajya kwiga, bakamenya ubwenge butandukanye, bubafasha gutera imbere, bakagera ku nzozi zabo, ndetse bakidagadura, bakisanzura muri iyi si yacu.

Ahantu hubatswe ibikoresho by'amashanyarazi， bidufasha gutwara umuriro mu bice bitandukanye， aha hantu haba hitwa sabusitesheni. Ni ahantu hakontororerwaga imiriro cyangwa se umuriro w'amashanyarazi.

Inzu yo kuraramo igizwe n'igitanda kigerekeranye kabiri hasi no hejuru. Bino bitanda bikunze gukoreshwa mu banyeshuri n'ahandi hantu harara abantu benshi.

Inyubako y'ikiraro kiza cyane gituma abantu bambuka ndetse n'ibinyabiziga bikahaca byemye kandi bigenda neza, bikoroshya ubuhahirane n'imigenderanire y'abaturage benshi batandukanye.

Ahantu hubatswe inyubako ndende igeretse bita etaje iyi nyubako ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye. Hashobora kuba hari ibiro bya Leta cyangwa se ibindi bintu bihuza abantu nk'amashuri, insengero n'ibindi bitandukanye nk'amasoko.

Ahantu hateraniye abantu b'abakirisito baba bari gusenga Imana bari no kuyishimira ibyiza yabakoreye. Aha hantu iyo uhagiye ni ukuri biba ari byiza ku bantu bemera Imana.

Ahantu hari ikiraro cyo mu kirere. Leta icyubakira abaturage kugira ngo bagikoreshe bari kwambuka nk'umugezi ndetse n'ahandi hantu. Kino kiraro kiba ari cyiza cyane kubera ko kiramba kandi kigatuma ubuhahirane n'imigenderanire igenda neza.

Umudugudu w'icyitegererezo aho abantu bajya kuba. Leta irayubaka ano mazu igatuzamo abantu tukayita umudugudu w'icyitegererezo. Hakikijwe n'andi mazu y'abaturage asanzwe bo ubwabo biyubakiye ndetse harimo n'intoki abantu barya, iyo byeze ibitoki turabirya.

Ahantu abantu bajya noneho umuyobozi akaza akababwira amategeko cyangwa se amabwiriza, bakajya inama y'ibyo bagomba gukora, haba hari ikibazo bakagikemura mu buryo bwiza ntawe ubangamiwe, abantu bakarushaho kubaho neza bishimye.

Ahantu haparikwa imodoka bahitaga muri gare. Abantu benshi iyo bashaka gutembera niho bajyaga gutegera, bityo bikoroshya ingendo. Habaho haba hariho n'inyubako abantu bacururizamo kugira ngo abatembereye bagiye muri aho hantu haparika imodoka baticwa n'inzara, cyangwa bakabura aho bahira.

Muri Gare ni ahantu heza ho guparika imodoka, cyane cyane muri Gare ya Musanze, hazamo amamodoka menshi agiye atandukanye, nk' amatagisi, haba harimo n'abantu benshi.

Ahantu twita muri gare abantu bategera imodoka zigiye zitandukanye ndetse bakahakorera n'ubundi bucuruzi butandukanye. Gare ni nziza kuberako iyo ushaka gutega niho ujya, harimo n'inyubako abantu bari gucururizamo.

Imodoka nini zitwara abagenzi zitwa bisi, zifashishwa mu guhuza abantu, zino modoka ziri kunyura mu muhanda, ndetse imbere yazo hariho n'ikiraro kinini.

Indege yitwa Rwanda eya ,ino ndege n'iya kompanyi ya leta y'u Rwanda ifashaga abantu kugenda ndetse no kugera ahantu hatandukanye ku isi, ndetse igatwara n'ibintu harimo ibicuruzwa n'ibindi bintu bitandukanye.

Igare abantu bagendaho rituma baheka ibirayi cyangwa imizigo itandukanye. Imodoka zituma abantu bagenda neza bikoroshya imihahirane hagati y'abanyarwanda.

Umuntu ukina umukino w'intoki. Uyu mukinnyi akina umukino w'intoki twita basikete. Uno mukinnyi arawukina bigatuma abantu twishima, ndetse tugakora na siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri.

Gukina umupira w'amaguru bikorerwa ahantu hitwa muri sitade, abantu bari gukina umupira w'amaguru ,ikipe y'u Rwanda iri gukina n'iyindi kipe yambaye imyenda y'icyatsi ,hano ni muri sitade.

Umukino w'intoki bita vore, abantu bari gukina, aba bantu iyo bari gukina uyu mukino biba biri gushimisha abari kureba, ni umukino mwiza cyane, najye ndawukunda, uyu mukino bantu bari gukina ku guhererekanya umupira bakoresheje amaboko.

Ahantu abantu bakorera siporo yo kwiruka, iyo birutse umuntu akaba uwa mbere bamuhemba ibihembo bitandukanye. Ni nko muri sitade cyangwa ahandi hantu heza abantu bakorera iyo siporo.

Ahantu habera imikino igiye itandukanye, abantu bakina umupira w'amaguru bajya kuhakinira, ndetse n'abandi bantu aribo twita abafana, bakajya gufana uwo mupira, bahita muri sitade.

Ahantu bakinira umukino witwa tenisi, hano hantu iyo uhagiye uhabona abantu batandukanye, bano bantu bari gukina umukino witwa tenisi, ndetse bafite n'akantu bakubitisha agapira.

Umunyonzi uri gutwara igare, uri mu marushanwa nka turu di Rwanda, ari kuzamuka umusozi. Abantu barahari benshi, bari kumufana, ari kunyura mu muhanda w'amapave.

Gukora siporo ni byiza cyane, iyo abantu bari gukora siporo nk'aha hantu nko muri sitade biba ari byiza, harimo ibintu byinshi aho abantu bagomba kwicara ku kibuga, abantu bambaye neza imyenda ya siporo bari no kunanura imitsi.

Umwitozo ngororamubiri wo gusimbuka ahantu harehare ,uyu mwitozo ukora abantu babyitoje bityo babifitemo uburambe bigatuma bagera kure, ari gusimbuka ahantu harehare nko muri metero esheshatu.

Umuhanda wo mu cyaro abantu banyuramo ndetse n'ibinyabiziga binyuramo iyo bipakiye cg se bihetse ibintu, bino byoroshya imigenderanire hagati y'abantu n'ibintu.